Abagabo babiri bahagaze umwe asa nkaho yaguze imodoka ahantu mu kagera motozi umwe kandi afite agakapu k'umutuku yambaye n'isaha afite n'uruhara, undi yambaye ishati n'ipantaro n'inkweto.

Ndabona icyumba kirimo ikirahure n'ahantu bakarabira intoki, kandi aho hantu haragurishwa miriyoni mirongo icyenda n'atanu.

Ndabona umugore usa nkaho arikwerekana agatabo ke gasa nkaho ari akubwishingizi bugendeye kubuzima, kandi uwo mugore ari kukereka undi wicaye wambaye akanu ku umutuku.